Ziribwaga nk'amaburushete, zikundaga kugaragara mu maresitora, mu tubari cyangwa mu mabara, zikaba ari inyama zikundwa kotswa zabanje gutekwa, kugira ngo zishe neza.

Ibiribwa birimo: ifiriti, ifi, n'inyanya zikaze zikiri mbisi, hejuru yayo hariho utudimu bakase, ifi iteretse ku isiniya nziza y'umweru, ndetsetse munsi y'siniya hari ameza.

Ibiryo birimo inyama, umuceri, inyama z'ifi n'izindi nyama ziri ku ruhande, umuceri w'ipirawu birambitse ku isahani, iyo sahani nayo irambitse ku meza, hirya imbere hari agasosi nako kinyama.

Restora ifite jaride, ikagira n'ahantu abantu bogera ha pisine, hirya ya ho hari ahantu abantu bicara bamaze koga bari gufata akayaga, cyangwa bashaka kumuka neza kuko hagera akazuba.

Amafi yokejwe ku cyokezo, amafi agera kuri ane, ari ku cyokezo kiriho amakara, ndetse bigaragara nk'aho yahiye. Amafi.....

Ubwoko bw'ibiryo bwinshi butandukanye burimo imboga, inyama, capati, n'ibindi biryo bishyirwa inyuma y'amafunguro bizwi nka deseri bikoreshwa cyane cyane n'abakire.

...bacururirizamo ibicuruzwa byinshi bitandukanye birimo imbada, ibitunguru byifashisha mu guteka, amashu ari ku tumeza, ibintu by'amavuta biri ku tumeza na byo, n'imitaka ibirenze izuba kugira ngo bitangirika vuba.

Isoko ry'imbuto zitandukanye harimo imyembe, amatunda g'ibinyomoro, imineke, imbere yazo hari umudamu uhetse agakapu k'umukara, inyuma ye ruguru hari undi mugabo wikoreye indobo irimo izindi mbuto.

Iyi ni inzu yanditsweho ibintu bikorerwamo by'ubucuruzi, ndetse n'amazina atandukanya ayo mazu Regasi ndetse na Busheri akeza.

Ahantu ku tumeza bacururizaga ibintu bitandukanye, birimo tungurusumu, inyanya zikoreshwaga mu guteka, ibitunguru n'umunzani gwifashishwaga mu gupima ibintu baraguha, ruguru yaho hari abagore babiri n'umwana ubarimo hagati ari gutambuka.

Inzu bacururizaho ibikoresho bya eregitoronike, ruguru hari maneke zambara, imyenda bacuruza, ruguru y'inzu gato haparitse imodoka, hepfo hari umugabo ucagingira abantu, amaterefoni batarabona umuriro.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye harimo imashini ifotora impapuro, ruguru y'aho hari umudije utanga indirimbo n'amafirime, ndetse hari n'umutaka umurinda izuba mu gihe ari mu kaze ke Ka buri munsi.

Abantu bacururiza ibiribwa bitandukanye birimo amagi, pome, imineke, inyange, ekuyeri, inkweto zo kwambara zifunguye, n'ibindi bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi y'ibiribwa ,imbere yaho hacururizwaga ibitunguru birambitse ku mufuka ,mwimbere harimwo ameza gariho amashu n'imboga zikoreshwaga mu kurya.

Inzu icururizwagamo ibyo guteka bitandukanye, biribwa birimo umuceri, indagara, amavuta, amavuta ga diyama, imifuka za kawunga, harimo umugore uhagaze waje kugura ahetse n'igikapu.

Inzu y'ubucuruzi icururizwagamo ibintu bitandukanye harimo: amaji, amafu gari mu ndobo n'ibindi biri mu mufuka, hanze nko hepfo hari akameza baterekagaho ibintu birimo inyanya n'intojyi cangwa n'imboga.

Inzu y'ubucuruzi butandukanye, hifashishwaga mu gutanga serivisi zirimo gaze, imbere yayo haparitswe igare, ndetse mubicuruzwa birimo ,byinshi n'ibinyobwa harimo n'amazi.

Inzu zicururizwagamo, hanze yazo hacururizwaga ibikoresho birimo ibyo kwitwikira nijoro bishwaga mu gitanda, ibikapu, intebe, udusitajeri abantu babikagaho ibintu ndetse n'udutebe dutoya two abana baneragamo.

Icapa kiranga inzu n'amafoto g'ibintu bikoregwaga mu iyo nzu, birimo ibicuruzwa byo kunywa nka ji, inaji n'ibyuma, bikabamo imigati n'ibitunguru bikoreshwaga mu guteka, salisa n'ibindi bitandukanye shezi Alegisi.

Icapa kiranga inzu n'ibintu bakoreragamo, birimo gufotora impapuro, amafoto magufi, akoreshwaga mu kwaka akazi, cyangwa ibindi bikorwa bya serivisi zitandukanye za Leta.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibintu bitandukanye, imbere yayo harimo igisheke n'amavuta ya moteri y'imodoka. Bigaragara ko icururizwamo piyese z'imodoka.

Inzu icururizwaga mo ibikoresho bya eregitoronike birimo amatelefone, sharirijeri, amaterefone gamataci n'amaterefone g'amatushe uguraga bitewe n'uko ushaka ndetse n'uko wanyuzwe.

Inzu icururizwagamo imyenda zo kwambara, zirimo imyenda z'abagore n'imyenda z'abagabo, imipira z'imbeho n'amakabutura, hepfo hari umudamu ucuruzaga imyenda zikoreshwaga ku buriri igihe cyo kuryama.

Ikarayi itekwaho imigati y'ubwoko butandukanye, cyangwa ifiriti, cyangwa amacapati, kikaba n'igikoresho cyo mu rugo cyangwa muri resitora, cyifashishwa mu guteka ibiryo byo mu mavuta bitandukanye.

Inzu zifite imiryango ine zikurikirana, zicururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, hepfo habanza hari inzu icururizwamo imyenda, ruguru hakaba inzu zicururizwamo intebe.

Inzu z'ubucuruzi zicururizwagamo ibintu bitandukanye harimo n'inzu ziteye amarangi ga eyateli, ruguru hari inzu iparitseho amagare ane gatandukanye; amagare abiri g'abanyonzi gafite n'imisego zigaragaza ko ari amagare g'abanyonzi batwaraga abagenzi.

Icyapa kiranga ibintu umuntu akora. Hano ni kwa Turikumwe limitedi. Biranga ko acuruza ibikoresho bya muzika: Moteri, amaradiyo n'ibindi bikoresho birimo za gitari.

Icyapa kiranga aho umuntu akorera Cyeze Jiliberi, aho Jiliberi nyine akorera akazi ke k'ubucuruzi. Harimo ibyo acuruza bya kereyi masita bigiye bitandukanye. Iyi ni inzu ye y'ubucuruzi iki ni icyapa cyibiranga ko ariho akorera.

Umuhanda urimo abanyonzi ku ruhande n'abantu bagenda n'amaguru, n'umumotari, amapoto y'amatara y'amashanyarazi amurikira abantu, icyapa kigaragaza moteri yitwa Fesibolo.

Amazu g'ubucuruzi gacururizagamo ibintu bitandukanye，hepfo habanza haparitse igare ku nkingi， ruguru hacururizwaga ibikoresho by'ubwubatsi birimo amabati，amatiyo n’imikoropesho zifashishwaga mu gukura imyanda mu nzu，ruguru yazo hari umugore uri kudoda imyenda.

Amazu y'ubucuruzi inzu ya ruguru irimo abagabo babiri. Bagiye guhaha hepfo hari umuntu uri gutambuka na moto y'umumotari ndetse n'undi muntu wicaye.

Inzu yifashishwaga mu bucuruzi bw'imyenda zitandukanye z'abagabo, harimo n'inkweto. Imbere yayo hari umugabo wambaye agapfukamunwa, ruguru gato hari akayetajeri karimo inkweto z'abagabo zifashishwaga n'abagabo.

Inzu ifite icyapa kigaragaza ibiyikorerwamo, irimo guhanagura imyenda, ndetse hari n'icyapa cya Amusiteri, hakabaho n'ipoto y'amashanyarazi itanga amashanyarazi ahantu hatandukanye.

Inzu icururizwagamo ibikoresho bitandukanye birimo amavuta go mu modoka, amatapi go mu modoka, batiri zo mu modoka n'ibindi bikoresho byinshi bitandukanye, bishobora gusimbura mu modoka igihe igikoresho cyari kiri mu modoka kigize ikibazo.

Inzu iriho icyapa kiranga alimantasiyo Umucyo. Bigaragaza ko aho hari inzu ya alimantasiyo aho abantu bahahira. Alimantasiyo ni inzu abantu baguriramo ibintu ibyo kurya no kunywa bitewe n'ibyo bashaka.

Inzu z'ubucuruzi butandukanye, hano hari bara icururizwagamo ibinyobwa bitandukanye. Cangwa ibiryo hepfo, hari farumasi icuruzaga imiti hepfo yayo hari izindi nzu z'ubucuruzi, imbere ya farumasi ya poritigare hano kuribara haparitse moto.

Icapa kiranga ahantu n'ibintu bihakoregwaga, birimo guhanagura amakoti, gufura imyenda yose, koza amatapi, koza intebe, sipotikiriningi, byanditswe mu kinyagwanda no mu congereza.

Inzu z'ubucuruzi zikoreshwaga n'abacuruzi, imbere yazo hari ibiti' by'ubwoko butandukanye. Mu umujyango harimo abantu bigaragara ko ari abagura cyangwa abagurisha.

Iyi nzu ifite ibyapa bitandukanye biranga ibikorerwaga mu iyo nzu, harimo ahacururizwaga gaze ahogosherwaga, ahantu hari kenkayeri icururizwagamo ibikoresho bitandukanye by'ubwubatsi na papeteri ifotoraga impapuro cangwa ikagurisha impapuro z gukoreshwa n'abanyeshuri cangwa abandi bantu bazishaka.

Ahantu hacururizwaga ibikoresho by'amamodoka, birimo amajeke, imfunguzo zifunguraga, z'amasupana n'izindi piyese derishanje zikoreshwaga mu gihe imodoka yaba ipfuye, igikoresho cari kirimo kigapfa ku buryo kitakomeza gukora, kigasimbuzwa igishasha baguze.

Umuhanda urimo abagenzi bari kugendesha amaguru, umugabo uri ku igare, imbere yaho gato hari umumotari, inzu iriho Gaze, ndetse n'inzu icururizwamo ibiryo nkuko icapa kibigaragaza canditse Fasiti fudu.

Inzu ikorerwamo n'abacuruzi ba serivisi za eyateri, hakaba ajenti imbere yayo hari inzu ya etaje, hari n'umuntu uhahagaze uri kugura amiyinite.

Inzu y'ubucuruzi yifashishwaga mu gucuruza ubwoko bw'ibintu bitandukanye， birimo ibisheke，ibihaza， ibirayi biri mu umufuka， imbere yaho hari umugabo ufashe indebe， ruguru ye hari umugabo wicaye.

Inzu z'ubucuruzi zitandukanye, imbere yazo haparitse imodoka ebyiri, ndetse hari abacuruzi batandukanye ba Emutiyeni b'amayinite. Hari n'inzira iriho abantu abagenzi bagenda banyuramo.

ibyapa biranga ahantu n'bintu bihakorerwa, hari ibiranga ahantu hogosherwa, ahantu hacururizwamo imyenda yo kwambara, ibikoresho bya elegitoroniki bitandukanye.

Inzu zicururizwagamo ibicuruzwa bitandukanye. Mu muhanda harimo imodoka y' itoyota ipakiye ibintu, imbere yayo hari ipoto ry'amashanyarazi ritangaga amashanyarazi kw'aga mabutike igihe ca nijoro, bagacuruza bari kureba.

Inzu icururizwamo ibikoresho bitandukanye byo mu rugo. Harimo udukapu bifashisha mu gutwara ibintu waguze birimo ibiribwa n'ibindi bintu bitandukanye, ibikomo amarinete, n'udukapu tw'abagore tubarimbisha batwara ku ruhande.

Inzu y'ubucuruzi irafunguye, imbere ku mujyango hari igare rihaparitse, imbere gato ku kayira hari umugabo urigutambuka afishe amvelope ,inyuma ye ku ruhande hari umukobwa ufite porotomanje babikagamo ibijyo ngo bidakonja ,urundi ruhande hari abagabo babiri bari kureba muri telefone.

Inzu z'ubucuruzi butandukanye, ruguru yayo hari akazu gacururizwamo gaze zirinda ikirere, zikaba zitakwangiriza n'ibidukikije. Hakuno yayo hari umu ajenti ucuruza ama inite ga MTN, hari n'abagabo bicaye ku ruburaza gw'amazu akoremo ubucuruzi.

Amazu y'ubucuruzi ya etaje, imbere yayo haparika abamotari n'imodoka, ni inzu nini ifite parikingi y'amamodoka y'abantu baje kugura, cyangwa abantu baje kugurisha. Imbere yayo hari umuhanda wa kaburimbo, n'abagabo umwe wambaye ikoti ry'umuhondo.

Moto ziparitse ahantu ari nyinshi, ziri kumwe n'abamotari bazitwara, imbere y'inzu mu gipangu gifite na geti abantu binjiriramo bajanye moto.

Inzu iba icururizwamo ibikoresho bya elegitoronike bitandukanye, birimo amapasi, amatelefoni n'imirasire y'izuba, ndetse hakaba harimo n'antene za paraborike za statayimu na kanari.

Icapa canditsweho ibikoregwa mu nzu. Birimo ibishushanyo biranga ibiri muri iyo nzu ndetse n'ibintu bikorerwagamo, ikaba ari inzu iteye irangi ry'umutuku ifite n'imbaho.

Ahantu hari agasoko gacururizwagamo ibiribwa birimo imboga, ibitunguru, inyanya, ibirayi, n'umufuka gw'amakara byifashishwaga mu guteka. Imbere yago hari umugore wikoreye agapaniye garimo inyanya.

Inzu z'ubucuruzi zicururizwamo ibintu bitandukanye byo kujya mo imbere harimo imifuka y'umuceri n'iza kawunga, hanze ku muryango haparitse imodoka, ruguru y'umuryangogu umwe hari imbabura nazo bari gucuruza n'imbizo bifashisha mu gukubura bari gukura umwanda mu nzu cyangwa ku mbuga.

Inzu icururizwagamo ibikoresho by'imodoka harimo ingunguru, hepfo gato hariho n'indi icururizwagamo amapine n'ibindi bikoresho by'imodoka bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibintu bitandukanye, harimo gaze, n'ibindi bintu byinshi birimo amavuta yifashishwa mu kwisiga, amavuta akoreshwa mu guteka, imbere yayo haparitse imodoka.

Inzu y'ibikoresho bitandukanye by'ubwubatsi, imbere ya yo hari baro, hari imyenda yifashishwa n'abafundi, hari ikarito, ndetse hari n'amarineti.

Sitasiyo y'amavuta ga esanse yongereraga amamodoka cangwa amamoto esanse mu gihe bibaye Ngombwa.I ruhande rwayo hari umugabo ushinzwe kongereramo abantu esanse cangwa amavuta baje kuyakira bitewe n'uko yabashiranye.

Inzu z'ubucuruzi harimo : imyenda itandukanye ,ndetse n'ibisaswa ,abantu bakoreshaga yajyamye ,hakabamo abantu batandukanye, abacuruza, n'abantu baje kugura izo myenda.

Inzu ikoregwagamo ubucuruzi butandukanye, ndetse n'icapa ca betingi bigaragara hakoregwagamo ibintu byo gutega ku makipe ,cyangwa ahandi hantu hatandukanye imbere yayo hari umuhanda gwa kaburimbo.

Icapa kirangaga ahantu ni ibintu bihakoregwaga birimo kwambara, guca inzara, koza amenyo no gutera mekapu cyangwa kwambara amarineti no gukora mu misatsi zabantu bitandukanye, n'inzara no kubaha ibikomo cyangwa amasheneti.

Ku capa kiranga inzu n'ibiyikorerwagamo, imbere yayo hari uruzitiro, amavoka, hanze hari akandi kazu abantu biyakiriragamo iyo badashaka kwinjira mu nzu mo indani.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bwa butandukanye bwa serivisi z' irembo ndetse n'izindi serivisi za leta zigiye zitandukanye. Imbere yaho ku muryango hari intebe iriho ijire y'umuajenti.

Inzu y'ubucuruzi icururizwagamo icyayi, capati, boyiro, ibishimbo, igitoki, imvange, ruguru yayo hari indi nzu icururizwagamo inzoga y'ubwoko butandukanye zirimo mitsingi n'amapirimusi.

Inzu icururizwagamo imyenda zitandukanye zaba iz'abagabo, cangwa iz'abagore imbere hanze hari maneke zambaye imyenda kugira ngo umuntu abashe kuba yareba ubwiza bwazo, ku mujyango hari umugabo uzicuruzaga ari kumanika hanga iriho ikoti jy'abagabo.

Inzu ikorerwamo inkweto ndetse zikanacururizwamo, hepfo hari agasitajeri bashyiraho inkweto bamaze gukora, hari umugabo wambaye isarubeti y'abayisilamu, imbere ye hari uwundi mugabo uri kureba inkweto bakora n'undi wicaye.

Inzu icururizwagamo ibiribwa byo kurya, birimo amabiswi, bikabamo umuceri gutekwaga, ndetse ikagira igikari, banyuraga ruguru. Ku iyo butike, hariho umuryango, gurinda abantu kwinjira batabyemerewe. Muri imbere, harimo ibase y'umutuku.

Amagare ari imbere y'inzu icururizwamo ibiryo bitandukanye by'amatungo: harimo inka, inkoko, intama n'andi matungo atandukanye, hirya y'amagare gatoya hari moto ndetse ni indi nzu y'ubucuruzi.

Inzu bacururizagamo ibiribwa n'ibindi bintu bitandukanye, imbere yazo haparitse moto y'umumotari, ruguru hari umunyonzi utwaye ibintu ku igare, n'irindi gare riparitse ridafite ibintu ritwaye. Imbere y'igare ry'umuyonzi na ho hari moto.

Amagare ari ahantu acururizwa. Yambaye amashashi. Inyuma yaho hari ibikoresho bya elegitoronike, by'amaradiyo n'intebe zirambikwaho ibikoresho bya elegitoronike.

Ahantu hakorerwaga amagare hari umugabo uri kugakanika n'umunyonzi wambaye ijire, nawe uri gukanika igare. Ruguru iruhande gato, hari inzu icururizwagamo.

Icapa kiranga inzu n'ibintu bikoregwagamo birimo:gufotora impapuro, gucuruza izindi mpapuro zizwi nka azari zikoreshwaga cane cane mu mashuri mu gihe cy'ibizamini, ndetse n'ibindi bintu bibikaga impapuro bizwi nka potiforiyo.

Inzu igereretse kabiri yifashishwa mu bucuruzi. Imbere yayo ifite parikingi iparikwaho n'abantu baje gucuruza, cyangwa abantu baje kugura. Hino gato y'umuhanda hari umumotari utwaye umugenzi ndetse n'umucuruzi wa emutiyeni ucuruza amayinite, cyangwa akabitsa, akanabikura.

Inzu ya resitora icururizwagamo ibiryo by'ubwoko butandukanye, ifite ibishushanyo ku gikuta biranga iryo batekaga, muri iyo resitora imbere yayo haparitse moto ebyiri z'abamotari na kasike zabo.

Inzu z'ubucuruzi hari mo, inzu y'ubucuruzi bw'ibikoresho by'ubwubatsi, ndetse n'inzu badoderaga mo, zikaba ari inzu zifashishwaga mu gutanga serivisi zitandukanye, hari mo izo kudoda imyenda z'abantu, cyangwa ibikoresho byokubakira.

Inzu ya Banki ya Gakenke ibika amafaranga y'abaturage mu buryo bwizewe kugira ngo atibwa, ku rubaraza rwaho hari abagabo bahicaye, iruhande rwaho hari umugore uri kuhatambuka, ugarutse imbere ku muryango, hari umugabo uri kumwe n'undi mugore.

Umuryango abantu binjiriraragamo ,bakoraga mu ruganda rwa simegwa ,nkuko icapa kiri hano ku umuryango kibigaragaza .Abakozi ba simegwa bambaye n'imyenda z'akazi, zirimo ibisarubeti n'amaboti.

Abaturage benshi bafite amabanderore gagaragaza ibintu bajemo bari gushigikira amakoperative, ni abaturage benshi bicaye muri sitade imbere yabo hari abagabo bari gutambuka n'amakarito g'amazi, gashobora kwifashishwa mu gihe abantu bagize inyota cangwa habaye ikindi kibazo.

Inzu ya etaje igeretse kabiri, imbere yayo ifite jaride n'abagabo bayikoragaho. Iruhande rwayo hari parikingi iparikagaho imodoka bitewe n'abantu baje kuyisura. ifite n'ikona ritegeka abaje guparika uko baparirika.

Amazu ari ahantu hari jaride nziza. Inyuma yayo hagaragarayo ikirunga kimwe mu bikurura ba mukerarugendo mu Rwanda .Usuzumyeze igaragara neza imbere y'amazu, hari ahantu abantu bicara baruhura.

Ifite akabingaro imbere, isakaje amabara g'umutuku, ikagira n'utuntu tunyuragamo imyutsi mu gihe bacanye mu nzu, hanze hari jaride, ururabyo ruteye ahantu hari garaviye, abantu banyuragamo baje kurureba, indabo zifite n'ibinusi.

Garide nziza, iteyemo umumucaca, n'indabyo zihagira aheza kurushaho, harimo naho abantu bicara bari kureba ubwiza bwa garide, barikumva na natirere, imbere gato harimo umuhanda abantu banyuramo baje muri jaride.

Inzu y'ubucuruzi ya goyico pulaza, iri mu mujyi wa musanze, icururizwamo ibintu bitandukanye, by'imyenda ariko itabamo ibintu byo kurya, imbere yayo ifite parikingi iparikwamo imodoka z'abantu baje kugura cyangwa abaje kugurisha.

Isoko ricururizwagamo imboga gwatsi harimo karoti inyanya akadobo bapimiragamo karoti cangwa inyanya cangwa intogi ruguru hari umugore waje kugura uri kuganira n'uri gucuruza kugira ngo bumvikane ibiciro.

Igisenge kiziritsweho utugozi turi gucururizwaho nvirope imifuka zo gutwaramo ibintu, hasi mu isoko harimo abantu bacuruzaga imbuto zirimo amaronji n'imyembe, iruhande hari umugore ufite agati ari gucuma mu mbaga yaje kugura, afite n'igikapu.

Inzu icururizwagamo ibicuruzwa bitandukanye, ikagira amayetajeri gatandukanye gacuruzwa, bacururizagamo, birimo amata, amaji, fanta n'ibindi byinshi bitandukanye, bikaba biri mu mayetajeri gatandukanye atatu.

Ahantu bacururizwaga ibicuruzwa bitandukanye birimo ibitenge, ibikomo by'abagore bibafasha kuba beza kurushaho ndetse hakaba hari n'impeta z'abagore n'abagabo imbere y'aho ku isima hari imashini idodaga imyenda.

Icururizwagamo ibinyobwa bitandukanye birimo amafanta, ibyuma, amanovida, za mirinda, urusenda ndetse n'ikarito y'amabiswi, iruhande hari bike zifashishwaga mu kogosha ubwoya bwo ku mubiri

Ahantu bacururizaga inkweto za caguwa n'imyenda, epfo yazo hari umugore uri kuzicuruza. Inyuma ye hacururizwaga ibisheke, ruguru ku myenda ze aho yazirambitse ku gitenge n'inkweto, hari amasafuriya abiri yifashishwaga mu guteka.

Mu bicuruzwa bitandukanye birimo imiti, amavuta go kwisiga n'imiti ziri muri nvelope, ruguru hari indobo irimo umuti gwa Temba itoto, ndetse n'izindi miti z'amafui zitandukanye zivuraga ibintu byinshi bitandukanye bya kinyagwanda.

Hano hari agasima bacururizagaho ibicuruzwa bitandukanye birimo: tungurusumu, insenda n'ibindi iruhande harakayira hepfo gato hari akayira kanyuragamo abagenzi karimo umudamu uhetse agakapu wafunze shinyo.

Amazi ya nire afata agatunganywa ari mabi, akavamo amazi meza, agacururizwa mu mabutike, mu masoko atandukanye yo mu Rwanda. Amazi meza kuko aba yanyujijwe mu byuma bishinzwe kuyasukura, akaza ameze neza.

Umugabo ukora akazi ko gusudira, imbere ye ku ruhande gato hari umuriro hepfo hari ijerekani n'ibase. Ruguru hari umugabo uryamye n'agafuka karimo ibikoresho yifashisha, mu busudizi bwe bwa buri munsi.

Inzu zifashishwa mu gucuruza, iruhande rw'inzu imwe hamanitseho ibikapu biri gucuruzwa, hepfo hari indi nzu y'umutuku, ruguru hari inzu ifite umuryango wanditsweho.

Isoko ry'ibiribwa ririmo imbuto, ibishyimbo. Mu mbuto harimo: Avoka, harimo amaronji, ibinyomoro, inanasi, Imineke ,ndetse hari n'umuntu ubicuruza uhicaye.

Itabi ry'igikamba rinyobwaga cane cane n'abakecuru cangwa abasaza, rikaba ari itabi rihingwaga rigakugwa mu murima riri guhita rija gukoreshwa, bidasabye ko ryanyuzwa mu nganda cangwa ko ritunganywamo ibindi bintu.

Inkweto zicuruzwa mu buryo bwa caguwa, zicururizwa ahantu mu isoko, ziri hejuru y'imifuka kugira ngo zitandura, zikaba ari inkweto nziza ziba zikomeye, ariko zikaba zikoreshwa zarambawe n'abandi bantu.

Akameza gacururizwagaho ibyo kurya bitandukanye birimo: umuceri, kawunga, amavuta go guteka, sarisa, ubugari bwa kinazi buzaga mu mverope, ndetse n'ifarini yifashishwaga mu guteka amandazi.

Isoko ry'ibiribwa bitandukanye biri mo ibitoki, inyanya, imbuto ndetse n'imboga, hari mo imbuto ziri mo imyembe, imboga z'ibyatsi.

Hari ibicuruzwa bitandukanye birimo uburoso bwifashishwaga mu kuborosa amenyo, imikasi, isabune y'ifu, supaguru yifashishwaga mu gufatanya inkweto ndetse n'amavuta go kuyisiga na bike yifashishwaga mu kogosha ubwoya bwo ku mubiri.

Icururizwagamo ibicuruzwa byo kurya, imbere yayo ku muryango hari umufuka gurimo umuceri ruguru hakabaho umufuka gw'ibishyimbo ndetse mu muryango hamanitse imikoropesho n'impapuro zikoreshwaga mu isuku.